Abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri kisumbuye, bari mu nama n'abayobozi babo , abanyeshuri bamwe muri bo bari kubyina imbere y'abanyeshuri, abandi bahagaze inyuma, begamye ku rukuta.

Umuyobozi ari kugeza ku rubyiruko ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti: rubyiruko menya amateka yawe, ari kumwe n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye, urubyiruko rurimo abasore n'abakobwa.

Umuyobozi w'u rwego rushinzwe imiyoborere mu rwanda, ahagaze imbere y'abaturage, afite uruvugiro, yambaye ikote na karuvati, yambaye n'amarinete ari kugeza ijambo ku bamuteze amatwi.

Itangazo ririho ikirangantego cy'u Rwanda. Handitseho ngo" Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburasirazuba, Akarere ka Nyagatare". Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare buramenyesha abaturage bose ko mu rwego rwo gusoza umwaka no gutangira undi, hazaba igikorwa cyo kurasa umwaka.

Umuyobozi w'umudamu wambaye ikanzu ndetse wambaye n'amarinete afite uruvugiro ndetse n'igitabo mu ntoki arigeza ijambo ku baturage abasaba kwikemurira ibibazo bafitanye hagati yabo batagiye mu nkiko zo hejuru.

Mu nama y'abayobozi b'inzego z'umutekano umuyobozi umwe afashe uruvugiro arimo kugeza ijambo ku bitabiriye inama, yambaye ishati nziza y'amabara y'umweru ndetse n'ikigina, yiyogoshesheje neza mu nyogosho nziza cyane.

Umuyobozi ukuriye abandi wambaye karuvati, ishati y'umweru, ikote ry'umukara, ndetse n'ipantaro, ukenyeye umukandara, wambaye n'amarinete, ahagaze imbere y'abaturage abagezaho ijambo. Iruhande rwe hari ibyo kunywa, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ibyo bari gukoraho.

Inama yagutse abitabiriye bakurikiyeho kubagezaho ijambo babahaye amazi yo kunywa ari mu macupa ndetse bambaye imyenda itandukanye hari n'umukara, umweru'umutuku n'indi myinshi kandi urabona yuko batandukanya abagabo, abagore ndetse n'abasore n'abakobwa.

Abayobozi bo mu Karere ka Nyagatare bambaye amakote bahagaze imbere y'abaturage mu gisharagati gitatsemo ibitambaro by'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Icyumba cy'inama harimo abantu benshi bitabiriye inama, harimo abagabo, basore, abakobwa ndetse n'abadamu, bicaye bateze amatwi ubagezaho ijambo, harimo abari guseka, ndetse n'bandi bari gufotora.

Abayobozi mu nzego za Leta, bari mu nama, imbere yabo hari amazi yo kunywa, bafite ibitabo bandikamo ndetse n'amakaramu yo kwandikisha, barimo abagabo ndetse n'abagore.

Umukozi wo mu rwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda, yambaye ikote ndetse na karuvati, imbere ye hari ibitabo ndetse na telefone n'ikaramu n'amazi yo kunywa, arikumva icyo umuri imbere ari kumubwira.

Abayobozi batandukanye barimo abagabo bambaye amakoti, bari mu nama rusange, hari umuntu uri gufotora inyuma yabo, bari imbere y'umuntu uri kubagezaho ijambo yishimye.

Inama yitabiriwe n'abagabo ndetse n'umudamu umwe, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, bateze amatwi uri kubagezaho ijambo, bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibirahuri byo kuyanywesha.

Abayobozi bo mu nzego z'ubuyobozi barimo abadamu ndetse n'abagabo barimo nabo mu nzego z'umutekano iza gisirikare ndetse na polisi bicaye mu nama bateze amatwi uri kubagezaho ijambo bafite ibitabo n'amakaramu barimo kwandika.

Umuyobozi w'ishyaka rikomeye rya politiki ahagaze imbere y'imbaga avuga imbwirwaruhame afite uruvugiro ndetse afashe ku meza hariho ibirango by'ishyaka rye.

Umuyobozi w'ikigo gishinzwe iterambere ari mu Karere ka Nyagatare ahagaze imbere y'abaturage afite uruvugiro ari kubagezaho ijambo yabateguriye ku bijyanye no kwiteza imbere.

Umuyobozi wicaye ku ntebe amaboko ye ari ku meza, imbere ye hari telefone esheshatu ndetse n'agatabo yandikamo, ari kubwira amabwiriza abantu bari imbere ye y'uko bakwiye kwitwara ndetse bakirinda ubujura.

Umuyobozi wambaye ishati y'umweru, irimo amabara y,ikigina, ahagaze imbere y'abaturage ari kubagezaho ijambo, ni mu nyubako irimo intebe z'umutuku, ahagaze imbere y'inyubako, yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwe hari undi muntu, uteze amatwi.

Ifoto igaragaza umwami w'u Rwanda rwo hambere, afite imisatsi yo mu bwoko bw'amasunzu, yiteye ibishura, mu maso ye ni igikara, afite amaso matoya ndetse n'amatwi matoya, iminwa minini n'ubwanwa.

Umuvure bifashisha benga ibito, uteretse hasi, ufite aho bawufata bawuterura, umuvure wifashishwa mu gutara inzoga ndetse no kureka amazi.

Abakobwa babyina imbyino gakondo, bambaye imishanana ndetse n'inzogera ku birenge, bari kubyina bateze amaboko, bafite udutambaro bambaye mu mutwe, hari n'abasore bateze amaboko n'abo baribyina.

Umuvure bifashisha benga uteretse hasi, uriho ubutanda ndetse n'igikatsi kugira ngo babone uko benga. Ni igikoresho cyo hambere bifashishaga babona inzoga ndetse n'umutobe.

Abakobwa babyina imbyino gakondo, bari kubyina imbere y'abaturage, bambaye imishanana y'umweru, biteze ibitambaro mu mutwe n'amasaro mu ijosi. Bari kubyina barambura amaboko.

Umushumba ari imbere y'inka zitwa inyambo, afite terefone inyuma yabo hari ibiti bifite amababi atoshye n'ikirere cyererutse, umushumba yambaye umupira utukura ariyogoshesheje.

Igisabo bifashisha bacunda amata gifite n'umupfundikizi wacyo giteretse hasi aho giterekwa kugira ngo gitangirika cyangwa se ibindi bintu bitakigwira.

Igikoresho cyo hambere kizwi nk'igicuma bifashisha mu kunywa inzoga cyangwa umutobe hashinzemo umuheha uzwi nka ruvunabataka kandi gateretse ku meza.

Mu cyumba gitatsemo imitako myiza n'amatara yaka hejuru, ababyinnyi b'imbyino gakondo nyarwanda, bari gutaramira abitabiriye ibirori, abitabiriye ibirori bari guhabwa ibyo kunywa birimo amazi, imbere yabo hatatse indabo nziza.

Imbyino gakondo mu Rwanda, bambaye imyenda y'imishanana miremire y'umweru inigi mu ijosi ndetse n'udutambaro mu gahanga, bataramiye abitabiriye ubukwe barimo abagabo, abagore ndetse n'abana batoya.

Inkangara nziza iri mu mabara meza y'ikigina n'umukara. Iteretse kumeza, itakishije amabara meza y'umukara n'ikigina kandi ifite umutemeri mwiza ubohesheje umukangaga ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Mu nama y'abaturage, harimo n'inzego z'umutekano, umudamu mwiza uhagaze ufite imisatsi migufi, afite uruvugiro arimo kugeza ijambo ku bagize inama, ashobora kuba ari kubaza ikibazo k'ikibazo afite.

Abakobwa bakenyeye imishanana bari kubyina imbyino gakondo zo mu Rwanda, bari mu cyumba gicanyemo amatara, inyuma yabo hari abandi bakenyeye imishanana y'umweru bari gukoma amashyi.

Ibyuma bitatu bifashisha bacomeka rasoro, bifashisha mu guhinga ubutaka bukomeye, bicometse mu mugozi umwe birambitse hasi, ni ibyuma bihese kugira ngo bibashe gufata amarasoro.

Abakobwa bambaye imishanana y'umweru ndetse n'umukara bari kubyina imbyino gakondo, bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu kubyina umwe afite uruvugiro ari gutera indirimbo.

Abakobwa bambaye imishanana ndetse n'imikenyero bari gukoma amashyi babyina imbyino gakondo, umwe afite uruvugiro ari gutera indirimbo abandi bafite imirishyo bari gukoma ingoma.

Umukozi wo mu kigo gishinzwe amashanyarazi yuriye ipoto ari kureba ikibazo amashanyarazi yagize, ipoto icometseho insinga nyinshi zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi itwara umuriro w'amashanyarazi, ikikijwe n'ibyuma bifasha mu kurinda ko hari uwaka ibikoresho byayo. Hari icyapa kiranga ko aho hantu hakorera ikigo gishinzwe gutanga ubufasha mu by'amashanyarazi.

Mubazi bakoresha babara umuriro w'amashanyarazi. Ifite imibare kuva kuri rimwe kugera ku ikenda, n'aho bakanda bashyiramo iyo mibare n'aherekana umuriro. Ucometseho umugozi wohereza umuriro mu nzu.

Umuhanda wiigitaka urimo kugendamo abaturage bavuye mu mirimo yabo, hanyura insinga z'amashanyarazi zitwaye umuriro, hagaragara inyubako zigezweho zisakaje amabati y'umweru n'umutuku.

Abakozi bashinzwe iby'amashanyarazi, bari kugenda hafi y'urugomero bitegereza uko ruri kubakwa, bambaye imyenda ibarinda harimo amasengeri ndetse n'ingofero zabugenewe mu kwirinda ko hari icyabakomeretsa.

Abakozi batatu bakora mu by'amashanyarazi buriye ipironi barimo bareba ikibazo amashanyarazi yagize bambaye ibikoresho byabugenewe harimo amakote, amaserengeri ndetse n'ingofero zibafasha kwirinda impanuka.

Umukozi ukora mu mashanyarazi ahagaze ku rwego arimo kureba ikibazo amashanyarazi yagize, ni ku giti gishinze kiriho insinga zitwara amashanyarazi kugira ngo agere ku baturage batandukanye.

Ipironi itwara umuriro w'amashanyarazi iriho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi, munsi y'ipiloni hari ibiti bitari birebire, mu kirere harimo ibicu byiganje bishobora gutanga imvura.

Inzu ngari, ziri ku buso ubugari, zisa nk'isoko, iruhande rwazo hariho ikigega gifata amazi, iruhande rwaho kandi hari ubutaka bunini, buriho ubutaka busa n'ubwasizwemo icyo kibanza, kugira ngo babone aho bashyira inyubako.

Umuturage wambaye bote, ari kugenda mu nzi ngari, imbere ye hari umuturage ufite igare, undi nawe ari imbere ye ari kugenda, hakurya yabo hari inzu zifite amabati y'icyatsi, hejuru yabo hari kunyura insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Imbere y'inyubako ya Leta, abayobozi barimo abadamu n'abagabo, harimo abambaye udupfukamunwa, bahagaze bategereje abayobozi bandi kugira ngo babumve icyo bababwira, iruhande rwabo hari umupolisi ucunga umutekano uhagaze iruhande rw'imodoka.

ikiraro cyo mu kirere kiriho abantu bari kwambuka, gifashwe n'imigozi kugira ngo abakigendaho batagwa, iruhande rwaho hahagaze umugabo witegereza ko bagenda ku kiraro, hejuru yabo hari amatarasi y'indinganire yifashishwa mu buhinzi.

Abayobozi barimo umudamu n'abagabo bari kugenda mu nzira iva ku nyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse yubakishije amatafari ahiye iriho ikigega kibasha gufata amazi, inyuma y'inyubako hari ibiti birebire.

Inyubako nini igeretse iri ku mbuga nini, irimo ibyatsi bitoshye, hejuru mu kirere hari ibicu byijimye bisa n'ibyatanze imvuru, inyubako zifite amadirishya, inzugi z'umukara ndetse zisakaje n'amabati atukura.

Moto igeze ku kiraro gikikijwe n'ibyuma bifite amabara y'umweru n'umutuku, umumotari ari kumwe n'umugenzi bari kuri moto bagiye kugera mu ikoni ahantu umuhanda bawushijije bawucuritse kugira ngo utangire.

Inyubako ya Banki ya Kigali iruhande rwayo hari indi nyubako nayo ndende, hakurya hari ishyamba ndetse rifite ibiti bigiye bicucitse, iruhande rw'inyubako hakikijwe n'urugo ruriho ibyuma.

Inzu za kera zubakishije ibyuma, zifite amadirishya arimo ibyuma, bishakaje amabati agiye agerekeranye, iruhande rwazo hari ibiti birebire bituma haza umwuka mwiza mu nzu.

Mu isoko rigezweho rya kijyambere ryubakishije amabati ndetse n'ibyuma, harimo ibisima abacuruzi bashyiraho ibyo bacuruza, hari inyubako ku ruhande zikorerwamo ubundi bucuruzi.

Inyubako y'ibiro by'umurenge yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati, hanze hashinze icyuma kiriho ibendera ry'igihugu, abaturage bicaye munsi y'inyubako bategereje ko babona ubufasha.

Isoko ry'ibiribwa harimo ibiribwa bitandukanye, harimo ibirayi, imyumbati, pavuro, inyanya, karoti, abaguzi barimo baragurisha, abagura nabo barimo baraza ku bwinshi kugira ngo bahahe.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo ibyatsi bitoshye bifasha abakinnyi gukina neza ndetse n'aho abafana baje kureba umupira bicara kugira ngo batanyagirwa n'imvura cyangwa se ngo bicwe n'izuba.

Ku nyubako y'urugo mbonezamikurire rw'abana hari intebe abashaka serivisi bicaramo, hari kandi inyubako yubakishije amabati afite irangi ry'icyatsi ndetse n'amatafari ahiye.

Mu muhanda harimo imodoka yigisha gutwara ibinyabiziga ndetse hari n'inyubako ifite amarange y'umweru, ishakaje amabati y'umutuku, iruhande rw'inyubako hari amatara maremare acana kugira ngo urumuri rugaragare.

Abaturage barimo abagabo ndetse n'abagore. Bari kugenda ku kiraro cyo mu kirere cyubakishije ibyuma ndetse n'imigozi, abandi bari hasi. Munsi y'ikiraro hari urucaca rw'ibyatsi ndetse hakurya y'ikiraro hari ibiti bifite amashami.

Ikibaya cyagutse kirimo inyubako nyinshi harimo isoko, ikigo cy'ishuri gisakaje amabati y'icyatsi, harimo imihanda, harimo uwa kaburimbo ndetse n'uw'igitaka.

Abagabo umunani barimo abambaye imipira, abandi bambaye amashati bahagaze munsi y'inyubako bafata ifoto. Inyubako iriho icyapa kigaragaza ko ari iy'ibitaro.

Umuhanda wa kaburimbo amakamyo ari kugenda apakiye ibintu, iruhande hari aho bagurira ibyo kurya hazwi nko muri resitora, ku ruhande kandi hari ibiti bifasha kuzana umwuka mwiza ku bagenda mu muhanda.

Abaturage bahagaze munsi y'inyubako iteye irangi ry'ubururu. Ifite amabati y'ubururu ndetse bamwe bahagaze inyuma y'inzu, bamwe bagiye bafite ibintu bimeze nk'imifuka abandi barahagaze biyumvi...

Icyapa kigaragaza indangagaciro na kirazira, kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'idarapo ry'igihugu, gifite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi ndetse iruhande rwacyo hari ipironi itwara umuriro w'amashanyarazi.

Leta ishakaje amabati y'umweru yanditseho amagambo aranga iyo nyubako iyo ari yo, hari umuturage uhagaze hanze utegereje serivisi, mu mbuga yayo hari pasuparumu, hari idarapo ry'igihugu ndetse n'indabyo zizana umwuka mwiza aho abayobozi bakorera.

Umuhango wo guhemba abitwaye neza babaha amagare, abayobozi bo mu nzego z'ibanze bari gutanga ibihembo birimo n'amagare, bayaha abatanze ubutabera bubunga abaturage.

Umugabo hari kugeza ijambo ku baturage barimo abagore n'abagabo ndetse ari munsi y'igiti imbere y'amashuri asakaje amabati y'umweru, yarwaye urugese kandi ayo mashuri afite inzugi ndetse n'amadirishya y'ubururu.

Umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu rwanda muri Mata igihumbi kimwe maganacyenda mirongo cyenda na kane, abayobozi barimo n'abo mu nzego z'umutekano za gisirikare ndetse na polisi, bari gucana urumuri rw'icyizere bifashishije buji.

Umuyobozi wambaye amarinete, Ishati y'umweru, ufite ibitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu, inyuma ye hicaye abayobozi barimo n'abo mu nzego za gisirikare, ari kubagezaho ijambo yabateguriye.

Imbere y'Urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri mata igihumbi kimwe maganacyenda mirongocyenda na kane, umuyobozi wambaye umupira ugaragaza umuhango uri kuba afite uruvugiro ari kugeza ijambo ku bitabiriye umuhango.

Mu gisharagati kigezweho, abayobozi batandukanye bari mu nzego zitandukanye: iz'umutekano w'Igihugu ndetse n'inzego z'ubuyobozi. Bitabiriye umuhango wo kwibuka abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata, igihumbi kimwe magana kenda mirongo kenda na kane.

Abaturage batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye munsi y'inyubako bari kuririmba indirimbo bakoma amashyi, iruhande rwabo hari imodoka ifite irange y'umweru.

Abayobozi bose bambaye imipira isa y'icyatsi n'ingofero z'umukara. Inyuma yabo hari imodoka bahagaze bifashe neza bumva amabwiriza umuyobozi mukuru ari kubabwira. Inyuma yabo hari umuhanda wa kaburimbo uteyeho indabo zitandukanye.

Abacamanza bashinzwe ubutabera bari mu nama y'abaturage bari kunga abaturage bumva ibibazo bafite kugira ngo babashe kubikemura, harimo abagabo n'abagore ndetse hirya hari abantu bari gukora amasuku.

Abaturage barimo abasore, abagabo, abana bato, abakobwa ndetse n'abagore, bari mu mbuga y'inyubako ya Leta barikumva ubutumwa bagenewe, inyuma yabo hari ibiti by'inturusu bifite amababi y'icyatsi.

Umuyobozi ari guha ikirango k'ishimwe umuturage witwaye neza mu gukumira ruswa, inyuma ye hari ababyeyi bakenyeye imikenyero y'ubururu n'umweru n'igisharaga inyuma yabo gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umusirikare wahoze mu ngabo z'igihugu, afite ruvugiro, yambaye ingofero, umupira w'umweru uriho ibirango by'igihugu ndetse n'ibya gisirikare, ari kugeza ijambo ku bamuhaye umwanya kugira ngo abagezeho ijambo yabateguriye.

Mu nama yabereye mu Karere ka Nyagatare, umuyobozi mukuru afite uruvugiro ari kugeza ijambo ku baturage bitabiriye inama, barimo abagore, abagabo, abasore, ndetse n'abakobwa.

Inama y'umudugudu yitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye harimo iza gisirikare ndetse n'iza polisi, harimo umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage abagezaho ijambo yabateguriye, yicaye inyuma y'inyubako y'akagari/

Abaturage barimo abagabo, abagore bafite ibikoresho bizwi nka kupakupa barimo gukora isuku iruhande rw'urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi, ni munsi y'ibiti bikikije inyubako y'uru rwibutso.

Umugabo wambaye ishati ufite telefone mu kuboko kw'ibumoso, wambaye impeta ahagaze imbere y'abantu ari kubagezaho ijambo, inyuma ye hari abandi bagabo bicaye imbere y'insina ndetse n'indabo zifite ibara ry'icyatsi.

Inama yateranirije hamwe abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze n'abo mu nzego z'umutekano, umuyobozi mukuru wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, ari kugeza ku ijambo abitabiriye inama.

Mumuhanda wa kaburimbo abagabo babiri bari kuri moto, umwe aratwaye bombi bambaye ingofero z'umutuku, iruhande rwinyubako nyinshi ziparitseho imodoka ku ruhande, abagenzi bagenda mu muhanda.

Abagenzi batega imodoka muburyo bwa rusange bahagaze imbere y'imodoka bari kumwe nuri kureba amatike yabo kugira ngo binjire mu modoka umwe ari kugenda abarebera amatike abandi binjira bari kumwe n'umushoferi wabo kandi ubatwara.

Umuhanda wa kaburimbo iriho ibyapa biranga amerekezo, ku ruhande rwaho hari ipironi itwara umuriro w'amashanyarazi, hakurya hari inzu ifite amarangi y'ubururu, bacururizamo ibyo abagenzi bashaka.

Mu muhanda wa kaburimbo hari ibyapa bigaragaza ko abagenzi bahambukira kandi ko hafi aho hari ikigo cy'ishuri, iruhande rw'umuhanda hari ibiti birebire bifite indabyo z'umuhondo kandi bifite amababi atoshye.

Wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru tugaragaza aho abagenzi bambukira, harimo igare ritwaye abagabo babiri, umwe atwaye undi, yambaye isengeri ifite ibara ry'umuhondo.

Abayobozi bashinzwe umutekano mu baturage, bari guca urubanza mu nteko y'abaturage, hagati y'abafitanye ibibazo, bahagaze munsi y'ibiti, harimo abagore, abana bato, abagabo, abasore, iruhande rw'urutoki.

Mu nama y'inteko rusange y'abaturage, umubyeyi ahagaze afite uruvugiro ari kubaza ikibazo abayobozi bayoboye inama, ahagaze imbere y'ibyuma bizwi nk'indangururamajwi.

Abashinzwe umutekano mu Mudugudu bari gukemura ibibazo by'abaturage, ni ahabaye ikibazo cy'umuturage kandi bari mu mbuga, aho bari inyuma y'urutoki ndetse no munsi y'ibiti kugira ngo izuba ritabica, baticwa n'izuba kandi babone umwuka uhagije.

Mu gusoza urugerero rw'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye, abayobozi bo mu nzego z'umutekano ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze, barimo bizihizaho ko aba banyeshuri bashoje urugerero.

Umuganda rusange witabiriwe n'abaturage batandukanye, barimo abagabo, abagore, abasore, ndetse n'abakobwa, bafite amasuka bari kugenda baharura umuhanda bakuramo ibyatsi babyegeranya, abandi babiterura babikura mu nzira.

Mu nama y'abaturage harimo abayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abayobozi mu nzego za Polisi, bari gukemura amakimbirane hagati y'abaturage, abaturage harimo abagore, abagabo, hirya yabo hari inzu isakaje amabati y'umweru.

Munsi y'inyubako ya Leta, abayobozi barimo abapolisi bahagaze baganira, inyuma y'inama bamwe bambaye amakote, abandi bambaye amapantaro, umupolisi ubarimo yambaye n'ingofero.

Abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi barimo n'abo mu nzego z'umutekano, bahagaze munsi y'inyubako barimo baganira nyuma y'inama. Barimo abagabo batanu ndetse n'umudamu umwe.

Abayobozi n'abaturage bari mu gikorwa cy'umuganda, bari kugenda baharura ibyatsi babikura mu nzira kugira ngo hagaragare umuhanda wo kugendamo .Hirya haparitse imodoka, abayobozi barimo n'abo mu nzego z'umutekano za gisirikare.

Umuganda wahurije hamwe abaturage bo mu mudugudu, harimo n'inzego za gisirikare, bari gufata amabuye bayataba ahantu amazi yanyuraga kugira ngo adakomeza gusenyera umuturage uhatuye, kugira ngo nawe agire ubuzima bwiza.

Abaturage bari mu muganda bari kugenda baterura amabuye bayashyira mu nzira yanyuragamo amazi kugira ngo adakomeza gusenya umuhanda, abitabiriye umuganda barimo: abagabo, abasore ndetse n'abadamu.

Mu nama y'abaturage harimo abagabo abagore, abasore ndetse n'abakobwa, harimo abambaye udupfukamunwa ndetse n'abateretse imisatsi, bamwe bateze ibitambaro, bateze amatwi umuyobozi ibyo ari kubabwir,a kugira ngo babashe kubishyira mu bikorwa.

Umusifuzi wa kane ushinzwe gusimbuza abakinnyi, afite icyapa kiriho imibare kane n'umunani, byerekana abakinnyi bagiye gusimburana, umwe asohoka mu kibuga, undi yinjiramo.

Mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, abakinnyi bari kwiyegeranya kugirango bakire umupira umwe kuri umwe, abandi bicaye inyuma yabo bareba uko bakina, iruhande rwabo haparitse moto iriho ingofero y'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri iruhande rw'inyubako, haparitse imodoka, abaturage benshi barimo abagabo, abasore ndetse n'abana bato, bari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri bakorera hamwe.

Abakinnyi bambaye imyenda bakinana izwi nk'impuzankano, bari gushyikirizwa ibihembo birimo igikombe ndetse n'igipapuro cyanditseho amafaranga batsindiye.

Abakinnyi b'ikipe bahagaze hamwe barimo kumvikana ko bagiye gukomeza gukina nyuma yo gutsinda igitego bakishimira, umusifuzi ari kugenda abagarukara mu kibuga kugira ngo umukino ukomeze.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru haragaragara umugore munini ubyibushye, ari kureba umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, atunze ibiganza bye kuri baro, umugabo yambaye amarinete, ari kureba hirya ntiyitaye ku mugore.

Abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto zabugenewe bari gukina umupira mu byatsi ndetse abandi baricaye inyuma yabo bari ahantu hari ibyatsi birebire ndetse n'ahandi hari itaka.

Abana b'abahungu batatu, bari gukina umupira ku kibuga cy'itaka, hirya yabo hari urucaca rurimo ibyatsi bigufiya, abana bambaye inkweto abandi ntibazambaye, abandi bazikuyemo bazirambitse hasi kugirango babone ko bakina.

Abageze mu zabukuru birimo bitoza mbere yuko bajya mu kibuga, umusifuzi w'urudamu ahagaze mu kibuga, arimo arababwira ngo bamuhereze baro abone uko atangiza umupira, inyuma yaho hari inyubako yincaramo abafana baje gufana.

Baro iteretse mu kibuga hagati, aho batangira umupira. Abakinnyi bari ku ruhande, bamwe bari kwinjira mu kibuga, abandi bari gusohoka mu kibuga. Abandi baricaye bategereje ko umukino utangira ngo bose binjire mu kibuga.

Umugabo n'umudamu bari kugenda mu kibuga k'imyidagaduro bakora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hahagaze umukinnyi wambaye impuzankano uri gutera umupira.

Benshi bicaye muri sitade, yubakishije ibyuma, harimo na camera, hari abashinzwe umutekano b'abapolisi, hari utuzu dutoya turi inyuma yabo, twagenewe abanyamakuru bogereza umupira, ndetse bagasesengura ibyo bavuga mu mukino, uko uri kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto, indi iparitse ku ruhande, iruhande rw'inyubako nyinshi zigezweho, mu kayira kagenewe abagenzi harimo umugenzi uri kugenda, wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'ishati y'umukara.

Abatwara moto baparitse moto iruhande rw'inyubako bari kwitegereza abagenzi bafite ibikapu bababaza niba bashaka gutega, inyubako ihari yubakishije amatafari, iteye umucanga, hariho irangi ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo mu masaha ya nyuma ya saa sita umuntu ari kugenda areba igicucucucu ke imbere mu muhanda, ku ruhande hari umuhanda w'abagenzi, ahagenewe abagenzi kugira ngo imodoka zitabagonga kandi barusheho kugenda neza.

Umu motari urimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo ari kuri moto. Yambaye ipantaro y'umweru inkweto z'umukara n'ikoti ry'umukara na kasike y'umutuku. Moto ifite purake y'ibara ry'umuhondo. Irimo kugenda mu muhanda. Ifite imirongo y'umweru n'imirongo y'umukara.

Abatwara moto bazwi nk'abamotari bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ku binyabiziga byabo, bambaye ingofero zibafasha kwirinda ndetse no gusigasira amagara yabo igihe bahuye n'impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo umugenzi ari kugenda mu kayira kagenewe abagenzi yambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru n'umupira w'umutuku, hakurya hari urugo rwubakishije amatafari ruteye irange ry'ubururu hanze hari indabo.

Umuhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umuhondo, dutandukanya aho imodoka zinyura. Kuruhande rw'umuhanda hari urugo rwiza rufite urugi rw'icyatsi ndetse n'indabo kuruhande, zituma babona umwuka mwiza wo guhumeka.